Hano ni abamamaza bashishikariza abafite ibinyabiziga ko batakagombye kujya mu muhanda nta bwishingizi bafite, aba rero bakaba ari abo mu kigo kimwe gishinzwe ubwishingizi.

Iri tungo baryita ingurube, ni itungo rifasha abaturage kwivana mu bukene, rikaba ari itungo rishobora kuribwa, ariko kandi hari n'abaturage bashobora kurikuramo amavuta akaba yakoreshwa mu bindi.

Radiyanti ni kimwe mu bigo bya inshuwarensi cyangwa amakampani akorera mu Rwanda akaba hifashishwa n'abatwara ibinyabiziga hamwe n'abandi batandukanye bagamijwe kugira ngo abantu bakomeze kubungabunga ubuzima bwabo neza.

Icyapa cyangwa ibyapa bitandukanye, kimwe n'ibingibi turi kubona hano kuri iyi foto, byifashishwa ku mihanda minini, kugira ngo bikomeze kurushaho kwamamariza ababishyizeho.

Izi ni inkweto zifashishwa n'abantu batandukanye, baba bagabo, b'abagore, abana, zikaba zifasha ko umuntu zambaye uretse kuba yaba asa neza, ariko zirinda n'ibirenge byabo.

Imodoka igaragarara imbere yacu ifite ibara ry'umutuku biragaragara ko ari imodoka ishobora kuba yifashishwa n'abantu ku giti cyabo, atari imodoka zahariwe gutwara abantu benshi.

Aka ni gakoresho kagaragaraho amagi atatu hamwe n'ibikoresho byayo. Amagi muri rusange akaba afasha umuntu umubiri w'umuntu gukomeza kumererwa neza.

Hano hicaye abantu batatu, bigaragara ko ari abagabo biri n'umukobwa umwe, imbere yabo bafite amata, kandi bari kuyanywa.

Aha ni muri resitora cyangwa kantine bigaragara ko bacuruza utuntu dutandukanye ariko by'umwihariko amata kuko ku cyapa handitseho ngo hano hari amata meza y'inka.

Hano haragaragara ibigendanye n'ibyo kunywa bitandukanye yaba inaji dirinki n'ibindi ndetse n'icyayi gisanzwe, ibi nabyo birakoreshwa n'abaturage buri munsi kugira ngo bibafashe kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Aya ni amazi yitwa Jibu, akaba ari amazi asukuye, afasha umubiri gukomeza kumererwa neza cyane, twirinda umwanda.

Eyateri mani ni uburyo abantu bakora bahererekanya amafaranga kuri telefoni zabo kimwe n'ibindi bigo bikorera mu Rwanda, ibi rero bikaba bishobora gukomeza gufasha abaturage kwizigama birinda gukomeza guhanahana amafaranga mu ntoki.

Ibindi bigo by'imari bitandukanye bya bazigama seyesesi yaba kopedu yaba eyateri banki ibi byose bikomeza gufasha abaturage kwizigamira.

Ibi ni ibyo kurya bitandukanye byaba ku bituruka ku matungo, ku buhinzi n'ibindi, ibyo kurya rero bikaba bikomeza kudufasha kugira ubuzima bwiza cyane.

Biragaragara ko hano ari ku isoko aho harimo ababyeyi n'imyenda itandukanye, iyi myenda rero ni imyenda kera twajyaga twita ko ari imyenda ya caguwa igurwa n'abantu batandukanye.

Aba ni abagenti ba Mtn, bahagaze imbere y'inzu bakoreramo ubucuruzi bwabo, yaba gucuruza Mtn mobayiro mani n'izindi serivise.

Hano hari kugaragazwamo telefone yanditsemo ngo ishyura amafaranga magana atanu, ukoresheje inite cyangwa momo, telefone rero ikaba yifashishwa mu bintu bitandukanye, haba mobayilo mani, guhamagara no guhamagarwa, n'ibindi.

Hano turahabona moto bikoreye ibyo kurya, bikaba bishoboka ko ari ibyo bafashe batwariye abantu batabashije kugera ku maresitora atandukanye.

Iki ni igipangu bigaragara ko kirimo inzu nini hamwe n'ibiti bitandukanye biyikikije ndetse n'ubusitani, inzu rero zikaba zifashishwa kuba zaturwamo n'abantu batandukanye.

Iki ni igitanda kigaragara ko kiri muri imwe mu nyubako zicumbikira abantu cyangwa se mu rugo runaka, kikaba kigaragaraho matera isasheho amashuka ndetse n'umusego.

Hano hari inyubako yifashishwa mu gucumbikira abantu batandukanye bavuye hirya no hino, bigaragara ko yashyizweho za kamera zifashishwa mu gucunga umutekano.

Hano haragaragara inyubako, imbere yayo hari moto itariho umuntu, bigaragara ko uyu muntu yinjiye mo imbere ajya kureba iy'inyubako kuko iy'inyubako irakodeshwa nkuko byanditse hejuru.

Miyuwele do sante ni ikarita ikunda kwifashishwa n'abaturage kugira ngo babashe kwivuza hadakoreshejwe amafaranga menshi, uyifite rero nk'uko yanditseho ntarembera mu rugo uretse ko muri iki gihe batagikoresha izi karita.

Ikarita igaragara aha ikoresha cyangwa ikoreshwa mu bwisungane mu kwivuza ikabikoreshwa n'abaturage batandukanye hano mu Rwanda aho bibafasha kwivuza ariko badakoresheje ikiguzi kinshi.

Hano ni muri siperi marishe runaka, turi kubonamo umubyeyi wishimiye ibyo ari guhaha, bishoboka ko byaba ari umuceri, umuceri ufasha umubiri w'umuntu gukomeza kumererwa neza.

Hano ni muri supermarket, hakaba hagaragaramo ibicuruzwa bitandukanye byaba ibyo kurya n'ibindi, abaturage rero bagakunda kwiyambaza supermarket kuko ziba zirimo ibintu byinshi.

Hano ni muri supa maketi cyangwa superi marishe, akaba ari amasoko agezweho. Akunda kwifashishwa n'abantu batandukanye kugira ngo babashe guhaha, ibyo bakeneye babigeze mu ngo zabo.

Hano ni muri alimentation haragaragaramo rero amatara, ji, amazi na fanta, abaturage bakaba bakunda kubikoresha kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza.